Ni byiza kwitabira ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima. Haba ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu mubiri mo imbere ndetse n'ubuzima bw'inyuma ku ruhu bya muntu. Bifasha cyane kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ese umuntu ni uwuhe, ese byagenda gute kugira ngo tubeho ubuzima bwiza.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu bashyizweho bahabwa amahugurwa ahagije, ku byerekeranye n'ubuzima kugira ngo babashe kwita ku bantu bafite indwara zitandukanye ndetse banatange ubushobozi bwo kugira ngo serivisi z'ubuzima zegerezwe abaturage.

Abakozi bakora mu nzego z'ubuzima n'abafatanyabikorwa bafasha kugira ngo izo nzego z'ubuzima zibeho zikore neza ni abantu b'agaciro, bakora ibintu byinshi, bagira ubwitange bwinshi ni abantu bo gushimirwa cyane. Rero ni byiza ko bakomeza kudufasha bakomereze aho ngaho.

Ni ingenzi cyane ukwita ku bantu bakuru, tukabaganiriza, tukababwira ibintu byiza ndetse tukabatega amatwi. Bituma basaza bishimye kandi nabo ubwabo bakatugirira akamaro kubw'inama nziza zabo. Tujye twita ku bantu bakuru abantu bakuze, ni byiza cyane kandi birafasha.

Imiti gakondo ni imiti ivura indwara zitandukanye, imiti gakondo ni myiza kubuzima bw'abantu, cyane cyane ko imyinshi ariyo ivamo ibinini kwamuganga baduha. imiti gakondo kandi, ifasha mukuvura indwara zitandukanye, yewe hari n'iyo batarabasha gushyira mu miti ya kizungu kugirango ibashe kuvura.

Imiti gakondo ibamo amoko menshi atandukanye. Hano dufite uwitwa icyayi; icyayi ni ibyatsi cyangwa ni ibimera bya gakondo, ni ibimera by'umuco bimera mu Rwanda ndetse n'ahandi hose hafite ubutaka bwiza, bibasha kuvura kandi bigakiza indwara zitandukanye.

Umuravumba ni umuti wa Kinyarwanda, umuti mwiza, umuti uvura kandi ukora, iyo witaweho rero, ugatunganywa, ukanyuzwa mu nganda n'ahandi uvura indwara nyinshi zitandukanye, wabasha kubikwa neza ndetse ukamara n'igihe kirekire.

Imiti gakondo ni imiti yimeza ahantu ahariho hose, ishobora kumera warayiteye cyangwa se ariyo ubwayo yimejeje. Aho uwubonye rero mugihe ufite kuwukoresha ufite kuwusoroma ukawugirira isuku kugira ngo ubashe kukuvura neza utaguteye izindi ndwara.